Ubwato bwo mu mazi ni bwiza cyane, tukabukunda iyo ugiyemo wambaye ijiri.

Ni byiza ko abashinzwe umutekano, bagera igihe nabo bakaganira, bagakora inama bakaganira ibyateza igihugu imbere, n'ibya kubaka u Rwanda, n'ibyagirira u Rwanda akamaro.

Ni byiza cyane ko abayobozi b'umutekano bagera igihe bagahura, bakaganira kubyagirira abaturage akamaro.

Abasirikare turabakunda, turabakunda cyane Kandi tuzahora tubakunda turabemera.

Ni byiza cyane gukora imyizo, bituma umenya byinshi no mu kazi uba uri gukora turabikunda.

Ni byiza ko umuyobozi agera igihe akaganiriza abaturage be, n'abaturage bakamubwira ibibazo bafite, n'imbogamizi bagira muri rusange, bakubaka igihugu neza turabikunda.

Ni byiza ko mudugudu agera igihe akaganiriza abaturage be, akababaza ubuzima n'uko bimeze muri rusange turabikunda.

Inama ni nziza mu buzima, bw'abaturage bagahuriza hamwe, bakica hamwe bagahuza ibiganiro, abaturage tugomba kubikunda cyane.

Akanama k'ababyeyi ni keza cyane, gatuma bungurana ibitekerezo, bakaganira no ku ngo ziri gushaka gusenyuka. Ni byiza cyane, tugomba kubikunda cyane.

Ni byiza ko inama iba mu gihe hari icyorezo bambaye udupfukamunwa, kugira ngo hatagira uwanduza undi. Biba byiza cyane.

Nibyiza ko n'abana nabo, bagira umuco wo kubyina, bakiyibutsa gakondo ntibibagirwe gakondo, yo kubyina turabikunda.

Gutara mu gitariro ni byiza cyane. Bituma inzoga ishya, Kandi igashya ifite ubushyuhe bwiza.

Ababyinnyi ni beza ,bashimisha abantu imitima igatuza, amayogi noneho iyo bayambaye aba ari byiza cyane, abantu turabikunda.

Intore zambaye imigara abantu barazikunda cyane, uko bajugunye iriya migara kumutwe, biba ari byiza cyane.

Inkono zadufashaga kuryoshya ibiryo, bikaryoha, tukumva biraryoshye cyane. Inkono turazikunda cyane.

Ibyuma gakondo byo gucurangaho, byagiraga umuziki mwiza, uryoheye abanyarwanda. Abanyarwanda twarawukundaga.

Ubuhunikiro bwari bwiza cyane ibiryo bigihari, bagihinga ibishyimbo byinshi, ibigori byinshi, byari byiza cyane.

Ni byiza ko ibyuma gakondo n’ubu byakoreshwa, ntitubyibagirwe. Harimo ibyo gucuranga, turabikunda. Ibyuma byo gucuranga bya gakondo ni byiza cyane.

Abaturage bakundaga, umuvure, n'isekuru, n'agatebe ka kinyarwanda, n'umuhini, baturage barabikundaga.

Intore ni nziza, zisusurutsa abantu, bikabashimisha, zikaryoshya ibirori. Intore turazikunda.

Isekuru abantu turayikunda. Ni nziza cyane, kuyikoreramo, kuyisekuriramo, turayikunda.

Kuboha ikirago ni byiza, ni umuco nyarwanda, tugomba kubikunda, turabikunda.

Ibisabo ni byiza cyane. Bibika amata neza, kandi bigakoreshwa mu mirimo n'indi, mu byo gufasha amata. Kugira ngo amata atabogora.

Igicuma tukinyweramo inzoga, ni umuco nyarwanda. Kunywera mu gicuma ni byiza cyane.

Inkono y'itabi abantu bakera kundaga kuzinyweramo, no kuzitekeramo, barabikundaga cyane.

Kuboha ikirago ni umuco mwiza, Ni umuco w'urubyiruko, ni umuco w'umunyarwanda wo gushakana ikirago.

Guheka byafashaga abantu, cyane mu misozi ahantu hatari imihanda, byafashaga abantu guhita bagera ku bitaro byihuse. Abantu barabikundaga cyane.

Urwega ku muvumvu ni byiza kuba agira urwega bituma imitiba ye itekana iba ahantu hatuje.

Imiheto yari intwaro gakondo abahigi bakoreshaga cyera mu mashyamba yari myiza cyane.

Ikibo ni umuco, umuco nyarwanda utakwibagirana umuntu atareka, mu bukwe, mu misango itandukanye, icyibo ni cyiza turagikunda.

Ingorofani ni nziza cyane, idufasha mu kazi kagiye gatandukanye, cyane mu bantu bari kubaka barayikunda.

Abantu bakunda ibikorwaremezo bigiye bitandukanye, iharimo :ama etage, hakabamo imihanda, cyane cyane iby'imyubakire.

Uru rusengero ni rwiza rurakoze neza cyane. Abakirisitu baho hazajya basengera ahantu hameze neza cyane.

Kuzitira ni ibyiza, bituma wirinda abanzi, unagira sekirite, unagira umutekano mu rugo iwawe. Kuzitira bituma wisanzura iwawe.

Ibikorwa remezo ni byiza. Imihanda, imodoka, amatara, amashanyarazi, ni byiza, bigirira abaturage akamaro.

Amazu y'ibyitegererezo ni meza cyane, dukunda iyo hari n'uturima tw'igikoni nka turiya, turabikunda.

Ni byiza cyane Kubona abayobozi bari kwambuka ikiraro bakajya kureba abaturage, bakajya kureba bwabo, ni byiza turabikunda.

Ibikorwa remezo turabikunda umusaza turamushima turamushimira, ku bikorwa remezo amaze kutugezaho turabishima cyane.

Gusenga ni byiza bituma tugera mu rusengero tukagamba neza, tukagira umutima mwiza, tukanifata neza, turabikundaga cyane.

Imashini nziza zidufasha kwihutisha iterambere, no mu bikorwa remezo bijyanye n’igihugu. Turazikunda cyane.

Kiriziya ituma abantu bizera, birinda gukora ibyaha. Ituma abantu bakunda gusenga, urusengero ni rwiza cyane.

Ni byiza ko ibikorwa remezo biterwaho indabyo, bigaterwaho ibiti bigaterwaho umucaca, bituma habonera hakaba heza.

Ni byiza ko dukomeza kugira iterambere ry'imihanda, n'ibinyabiziga, tugakomeza tukagira iterambere mu masuku no mu myitwarire, ni byiza cyane.

Umusigiti ni mwiza kandi kuba umuyisilamu ni byiza, abayisiramu ndabakunda.

Ni byiza ko umuturage agira ikibazo akakibwira abayobozi, abayobozi bakamufasha mu kibazo afite, turabikunda.

Ni byiza ko abaturage bagera igihe bakaganira bagakora inama, bakavugana ibyakubaka igihugu cyabo n'ibyabateza imbere muri rusange.

Ni byiza ko abanyamagare nabo bagira igihe bakaganira, bagahagarara, bagashyira umutima hamwe.

Ubwato ni bwiza bufasha abantu mu kwambuka mu mazi magari, iyo bari kuva hakurya bajya hakurya bambukiranya aba ari byiza cyane.

Imodoka zipakurura zibenura, ni nziza ntabwo zivuna uwayikoresheje ngo ashake abapakuruzi, izi modoka ziba nziza cyane.

Ni byiza kujya mu muhanda, uri umumotari ufite ibyangombwa byuzuye kandi nti mu depasanye gutya, mu ka depasanya neza.

Abakinnyi b'umupira ni beza cyane, bakunda gushimisha abantu, imihangayiko igashira, bashyira abantu muri morale.

Ni byiza ko ukora neza ugahembwa bakaguha ishimwe. Ni byiza ko ukora ugashimisha abantu muri rusange.

Gukina ni byiza cyane, bishimisha abaturage, abanyarwanda muri rusange, ni byiza turabikunda.

Ni byiza ko abantu babanza kuganira, bakumvikana ibyo barakora, cyane cyane nk'abantu barakora umurimo umwe, cyangwa akazi kamwe.

Abakinnyi beza basusurutsa abaturage, bagatuma imitima yabo yumva ituje. Abakinnyi ni beza cyane. Abaturage turabakunda. Turabemera.

Ni byiza ko abamama na bo bagira ikipe. Ababyeyi, igitsinagore, bakajya barakina bagasusurutsa abaturage muri rusange. Turabakunda.

Basiketi ni umukino mwiza, dukunda, abantu bishimira, ni mukino abantu banezererwa, mwiza cyane.

Ni byiza cyane ko abakinnyi babanza kwinjira muri siporo, bakabanza bakananura ingingo, ni byiza bituma umubiri wongera kunanuka, n'imitsi ikananuka cyane.

Abana ni byiza cyane ko nabo bakora ikipe bakidagadura bakagamba neza, bakavuga neza abantu turabikunda.

Siporo ni nziza ku buzima bw'umuntu, ituma ingingo zinanuka, zikaba zimeze neza cyane, ituma ubaho neza, unatekereza neza n'imitsi ikinanura, ni byiza cyane.

Ni byiza ko dukina, tugakina neza, nta muntu uri kubangamira undi, nta nuri gusunika undi. Ni byo byiza cyane.

Imikino y' amagare ni myiza cyane ituma abantu basusuruka, bishima, tunezerwa turayikunda.